Inzu ifite urukuta rw'umweru ndetse n'umuryango w'umukara, iyo nzu urukuta rwayo rw'umweru rukaba rushushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye, aho harimo umweyo, indobo, ibisokozo, umwana ndetse bikaba bifite n'amazina yabyo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ibiziga bifite ubuso butandukanye harimo ibiziga bifite ubuso bw'ubururu n'ibindi bifite ubuso bifite rijya gusa na kaki, ibyo biziga bikaba biriho inyuguti ya A na U, munsi akaba ari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza asobanura izo nyuguti ndetse n'ibyo biziga.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye. Ikaba ifite amadirishya afite ibara ry'ubururu arimo ibirahuri. Muri iyo nzu mo imbere hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri. Muri iyo nzu hakaba harimo n'abagabo ndetse n'umugore bose bambaye imyenda itandukanye. Harimo abambaye amajire afite ibara ry'icyatsi ndetse n'abambaye ijire ifite ibara rijya gusa n'umutuku. Harimo n'utambaye ijire wambaye ingofero isanzwe.

Abanyeshuri batandukanye harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano y'ikigo bigaho ifite ibara ry'ishati y'umweru ifite ibara ry'umweru, bakaba bambaye n'utujire dufite ibara rijya gusa nk'ivu turimo ibara ry'ubururu riciyemo uturongo ndetse n'amapantaro n'amajipo afite ibara rijya gusa nk'ivu.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankan zisa z'ikigo bigaho, bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro afite ubururu bwijimye, bakaba bambaye inkweto zitandukanye zifite amabara agiye atandukanye, harimo abambaye inkweto zifunguye ndetse n'izifunze.